Ishuri ririho ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara, umuhoro, isuka, umwiko n'ingorofani; hakaba harimo n'abana bari mu ishuri, bahagaze ku ntebe bari gusoma igitabo.

Inyamaswa y'umuhondo izwi ku izina ry'igihore ikaba iri ahantu ku giti, irasa umuhondo ifite ijisho rinini cyane ndetse n'urwoya rurerure cyane, ifite amaguru menshi afatira ndetse n'amababa yo kuguruka.

Kandagira ukararabe ikoze mu ndobo y'umutuku iteretseho akabasi k'umuhondo, ikaba iri ahantu mu busitani bukikijwe n'indabo nyinshi, hirya gato hakaba hari icyuma kirekire ndetse n'ibiti bihagaze.

Udukinisho tw'abana bo mu mashuri y'inshuke turiho abantu bafite amatwi, amaso ndetse n'umunwa bigiye bitandukanye, hakaba hari utugaragara mu ibara ry'umutuku n'umweru n'icyatsi ndetse n'umuhondo ndetse n'umukara.

Ishuri risize irangi ry'umuhondo abana bakaba bahagaze mu muryango hariho igishushanyo kiri mu mabara y'umukara n'umweru k'inka, iruhande rwayo hari ahantu basize sima hari ibinombore bakagenda bahasiba.

Inyubako nziza igezweho isakaje amabati y'ubururu, hasi hakaba hari abanyeshuri batatu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amajipo ya kontoni ku ruhande hakaba hari indabyo nziza ziteye umurongo.

Ibishushanyo by'ibikinisho by'abana bimeze nk'imbunda nini zigezweho bikaba biri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, bifungishije amaburo menshi cyane asa umukara.

Ukuboko ku umuntu gushushanyijeho abantu babiri, umwe w'umugore ufite imisatsi y'umukara ndetse no mumaso h'umukara, n'umugabo ufite umusatsi w'umukara, amatwi y'umukara ndetse n'amaso y'umukara kakaba karambitse ku kintu kimeze nk'igiti.

Icyumba cy'ishuri ry'inshuke kirimo utubati twinshi tugiye dutandukanye harimo n'ibitabo hakaba hari n'ameza ndetse n'intebe ntoya abana bicararaho bari kwiga, hirya gato hari utundi tubati tunini dukinze tubikwamo ibitabo.

Inyubako ndende iteye irangi ry'umutuku ikaba ifite igisenge cy'amabati y'ubururu, ku ruhande hakaba hariho icyapa kiriho ibishushanyo by'umwana ndetse n'irate n'ikirangantego.

Icyapa cyiza kiri mu mabara y'umweru ,gifite amaguru y'icyuma ,na cyo gikoze mu cyuma, kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'ubururu, agira ati groupe scolaire Rukomo ,hepfo handitse ngo Nyagatare district.

Inyubako ndende y'amashuri igeretse ikaba iriho inzira abantu bafite ubumuga bashobora kunyuramo, ku ruhande hari uruzitiro rukozwe n'ibyuma kandi imbere hari n'ikibuga kisanzuye abanyeshuri bashobora gukiniramo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ariko ashaje, hakaba hateye imbere yayo sima, hirya hakaba hari inzira abantu bacamo bagenda, hakurya kandi hakaba hari amazu menshi meza, yubakishije amatafari ahiye ndetse afite n'ibisenge by'amabati.

Ishuri ririmo ibibaho bitatu byandikwaho, hakaba harimo n'amezaza asa umutuku hamwe n'intebe z'imbaho n'urugi rw'ubururu, hejuru hakaba harimo igisenge cya parafu ndetse n'irangi ry'umuhondo.

Ibikoresho byiganjemo amarati y'ubwoko butandukanye, apima imirongo igororotse, ihetamye, uruziga ndetse n'urukiraramende, bikaba birambitse imbere ya buwate bibikwamo, hari kandi n'igiti kiri muri kompa.

Uruziga rw'umukara rurimo amashusho agiye atandukanye, harimo urukiramende, uruziga, byose bikaba byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inhsuke mu myigire yabo. Bikaba bigaragara mu mabara atandukanye.

Ibikoresho by'ishuri byiganjemo amakaramu y'ibiti ari mu gakombe, utuntu twifashisha mu gusongora, umukasi, igoma ndetse n'utundi turi mu mabara agiye atandukanye biteretse, iruhande rw'ibitabo biri mu mabara y'umukara ndetse n'amakayi abiri hejuru hateretseho pome.

Inyubako yishuri isakaje amabati isize irangi ry'umuhondo, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikingishije kandi amadirishya n'inzugi z'ubururu, imbere yayo hari abanyeshuri bari gukina bishimye.

Igishushanyo cy'abana bo mu mashuri y'inshuke, kiriho utuntu tw'udusaro kikaba gikoze mu biti, hariho n'inyuguti a b c d na j na k na efu na g.

Ibikoresho byo mu mibare bizwi nk'amarate ari mu bwoko bugiye butandukanye harimo imeze nk'umurongo utambitse, igice cy'uruziga ndetse n'ibimeze nk'urukiramende zose zifashishwa mu gushushanya mu mibare.

Ibitabo byinshi bigerekeranyije harimo kimwe kirambuye ibindi bisa umuhondo, icyatsi n'umutuku birafunze. Iruhande rwaho hari amakaramu y'ibiti ndetse n'utundi tuntu turimo umukasi n'ibikoresho byo mu ishuri byinshi.

Amarate yo mu bwoko butandukanye harimo ayakoreshwa mu gukora uruziga,, imirongo igororotse urukiramende n'ibindi, hari na kompa ndetse n'iyikaramu y'igiti n'agasiba, byose byifashishwa mu gushushanya ibintu by'imibare.

Abana babiri bahagaze ku mugezi w'amazi atemba, hakaba harimo umwe wambaye agasengeri k'umuhondo. Inyuma yaho hari izindi nyamaswa zirimo inzoka, inyoni ndetse n'ibiguruka. Hakurya gato hariyo agasumbashyamba, impyisi ndetse n'umusambi.

Udushushanyo n'udukinisho tw'abana bo mu ncuke, tukaba turi mu mabara atandukanye harimo udukarita, uruziga ndetse n'utundi tuntu tw'udushusho dutandukanye. Tukaba turi mu mabara y'umutuku, umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Abana babiri bafite umusatsi w'umukara amaso y'umweru arimo utudomo tw'umukara, umwe akaba yambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umweru, bakaba bari kumwe na bakame ifite amatwi maremare cyane, ubwoya bw'umukara ndetse n'iminwa y'umweru yambaye agapira k'umuhondo.

Umusaza wicaye ku gatebe ufite imvi nyinshi mu mutwe, akaba yambaye ishati y'umutuku ipantaro n'inkweto zifunguye, akaba ari kubwira inkuru abana batoya benshi bamuteze amatwi, iruhande rwe hari igiti ndetse n'inzu.

Ibitabo byinshi birambitse biriho ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu mabara agiye anyuranye hariho n'amafoto aya bakame, ay'abantu, ay'ingwe, ay'inkende ndetse n'ay'umuntu uri ku igare, byose bikaba biritondekanyije.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, telefone y'umukara afite na mikoro mu ntoki, akaba ari kubwira abantu benshi bahagaze imbere ye biganjemo abana bo mu mashuri abanza, hirya gato hari amashuri meza agezweho afite amadirishya y'umukara.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bicaye muri sale nini irimo amadirishya y'ubururu n'inzugi z'ubururu hateye n'irangi ry'ubururu, imbere yabo hakaba hari abagabo batatu n'umugore umwe bari kubareba.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe z'imbaho, barimo abambaye impuzankano y'amashati y'umweru na kake, n'abandi bambaye imipira ijya gusa umuhondo bicaye kumirongo ahantu munsi y'ibiti. Imbere hakaba hari abantu bari kubigisha.

Abantu bambaye udupfukamunwa n'amataburiya y'abaganga, bafite bose mudasobwa z'umukara mu ntoki, bamwe bicaye imbere, abandi bahagaze inyuma yabo, bakaba bari ahantu hari inyubako yubakishije amatafari ahiye n'irangi ry'umuhondo.

Abasore benshi b'urubyiruko rw'abanyeshuri, bari ku murongo, bafite icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara agira ati: "Nyagatare secondary school kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri". Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amajipo ya kake bakaba batoye umurongo bari gukaraba kuri kandagira ukarabe, hirya yabo hari igiti kirekire cya gereveriya ndetse na jaride.

Abayobozi bashinzwe iby'inyubako harimo abambaye amajere ndetse n'ingofero zabugenewe, bakaba bicaye ku ntebe ahantu ku meza bari kwandika, iruhande rwabo hateretse amazi icupa kuri buri muntu.

Abantu benshi bari mu nzu itabona neza isize irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya y'ubururu bamwe bakaba bambaye amajiri bashaka kwinjiramo, bari kubasobanurira ibikorerwamo, hino hakaba hari urukuta rugufiya nkaho ari mu gikoni.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'imipira migufi y'umuhondo hariho na esinye, bakaba bambaye n'amakabutura ya kake bari ku murongo bari kwica mu nzira, inyuma yayo hari ibiti byinshi birebire bibakikije.

Abantu bashinzwe kugenzura inyubako bakaba bari ahantu hari ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye hazwi nka laboratwari, hakaba harimo abambaye amajire n'abandi bari kubereka batayambaye.

Umwana w'umuhungu ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'ishuri irimo ishati y'umweru arahagaze afite mikoro mu ntoki ari kubwira bagenzi be bicaye ijambo runaka, bakaba bari ahantu hatagaragara neza.

Abantu bari mu nzu y'inyubako igezweho izwi nka laboratwari bakaba bari gukora ubushakashatsi bareba ko ibikoresho babahaye ari byo koko kandi bigezweho, inkuta zayo zisize irangi ry'umuhondo hejuru hakaba harimo parafo.

Ishuri rigezweho ry'abana b'inshuke rikaba ryubakishije amatafari ahiye riteye n'irangi, hakaba hari abagabo babiri bari kuhatambuka kandi rikaba rikingishije amadirishya ndetse n'inzugi ririmo ibirahure hari na sima.

Abanyeshuri benshi bari muri sare, bakaba bambaye imyenda y'umweru ndetse na kake, hakaba harimo n'uwambaye umupira, wicaye hejuru y'ameza, ufite ikaramu uri kumwe n'abandi bari kuganira.

Ishuri ririmo abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'umweru ndetse na kake, imbere ku ntebe hakaba hari umusore wicayeho, ufite ikaramu mu ntoki n'ikayi ari kwandika areba abantu ari guseka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru karuvati ndetse n'ijipo hamwe n'inkweto n'amasogisi y'umweru, bakaba bari kumwe n'abandi babiri bambaye amakanzu. Inyuma yabo hari inkuta z'inzu zisize irangi.

Ikigo cy'amashuri kigeretse kiriho inyubako nziza zisakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba zisize irangi ry'umuhondo n'amatafari ahiye, rifite amadirishya n'inzugi by'ubururu.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, bakaba bicaye ahantu hari amayesikariye, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ijile y'umukara n'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi bari kwifotoza biganjemo abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amapantaro n'inkweto zifunze hamwe n'ababyeyi, bakaba bari kwifotoreza imbere y'inyubako igezweho yanditseho amagambo atandukanye.

Abayobozi ndetse n'abanyeshuri bari ahantu mu nzu irimo parafo y'umweru, irange ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari ameza agezweho ndetse na telefone, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho ngo UR.

Abanyeshuri benshi bambaye imyenda bambara iyo basoje amasomo, bakaba bishimye bamwe bateye ingofero mu kirere. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu, hirya hakaba hari abandi bari mu mutaka bicaye.

Icyumba kigaragara igice cyo hejuru kiriho ibati no hasi hakaba hari irido ijya kuba umukara, haragaragara kandi igice cy'umuhondo giteye irangi n'urumuri rwinjira ruza mu nzu.

Ibiti bibiri by'umukara bifite amabara y'ikivurivundi hejuru mu mashami yabyo, hasi hakaba hasa umukara cyane, hakaba hahagazemo inyamaswa z'umukara zifite amahembe y'umukara, amatwi y'umukara. Hirya gato hari n'indi nyamaswa ireba ku ruhande.

Inyubako ndende irimo irangi ry'umutuku ndetse ifite amadirishya y'ibirahure byo gusaba ubururu inyuma gato hakaba hari abantu benshi bahagaze hirya hakaba hari izindi nyubako.

Udutebe twinshi dusa ubururu, hakaba hariho umuntu ashobora gushyira inkokora, tukaba turambitse hasi mu nzu irimo amakaro, hirya hakaba hari agatebe k'umutuku kandi inzu ikaba isize irangi ry'umuhondo.

Abantu batandatu bicaye harimo umwe ufite mudasobwa mu ntoki, abandi bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika nk'abari gukora umukoro, inyuma yabo hakaba hari akazi k'amabati ndetse n'indabo.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara agiye atandukanye, ikaba ifite uruzitiro rw'ibyuma hejuru ku gisenge. Iteyemo irangi ry'umukara kandi ifite n'amadirishya ajya gusa icyatsi n'ibirahuri by'umukara cyane.

Abanyeshuri bari ahantu bicaye abandi bahagaze hejuru yabo bandikira ku ntebe, hejuru hakaba hari porojegiteri ndetse na parafo y'umweru, hirya gato hasize irangi ry'ubururu ku bikuta.

Ahantu hari ubusitani bunini hashinze ibyuma byinshi by'umutuku, hakurya hakaba hari inzu isakaje amabati, ku ruhande rwayo hari ibindi biti binini byeze.

Inyubako nziza igezweho ifite imiryango minini y'umukara, ibirahure byijimye by'umukara, mo imbere hakaba hateyemo irangi rijya gusa ubururu n'ibiti biri inyuma yayo.

Ibikorwa by'ubugeni by'umuco gakondo birimo kubumba ikintu kimeze nk'inkono, bakaba bagikoze mu buryo kigiye kinyuraguyemo nk'aho ari ugusobekeranya igitebo, iruhande rwaho hakaba hari ibumba bari kubikoresha.

Urupapuro rushushanyijeho umutwe ufite amaso, amazuru, umusatsi ndetse n'amatwi ari mu ibara ry'umutuku kandi hakaba handitseho n'amagambo menshi agiye ari mu ibara ry'icyatsi.

Igishushanyo cy'imbuto z'ingenzi zifite umumaro ku buzima bwacu, zirimo voka imineke inanasi ndetse n'ikijumba kiri ku ruhande, bikaba byose biteretse ahantu hasi.

Inyubako ndende ifite igisenge cy'umutuku, isize amirangi y'umweru hari n'urutenderi rw'umweru, iruhande rw'aho hakaba hari ubusitani bwiza hari n'inzira y'abanyamaguru irimo amapave hakaba harimo umusore wambaye umupira w'ubururu n'umweru.

Inzu isize irangi ry'umuhondo hakaba harimo umurongo usize irangi rijya gusa umutuku, hariho udushushanyo duto duto cyane tw'utunyoni tuguruka ndetse n'udusimba duto cyane turi mu mabara y'umukara, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.